Imisare yicayemo abantu, umwe uhagaze. Imbere yabo hari ameza n'amacupa ari imbere yabo yo kunyweramo amazi.

Aha ni muri laboratwari aho umuganga yambaye ga, arimo kureba umwana intoki ze, arimo gusuzuma areba ikibazo afite mu nzara.

Hari abaturage bishimye cyane bafite imwe mu ntoki, inyuma yaho hari umusirikare, hirya hari amatete ndetse n'inzu ndi kubona ku ruhande yabo.